Habaye inama bigaragara y'uko yitabiriwe rwose n'abantu benshi batandukanye ndetse b'ingeri zitandukanye, ndabonamo abasirikare, ndabonamo ndetse n'abacungagereza ndetse n'abandi baturage basanzwe.

Umusore arahagaze afite indangururamajwi birasa naho ahagaze imbere y'abantu ,afite ibyo ari kubigisha cyangwa se kubabwira muri rusange.

Turabona umukobwa yicaye hamwe n'umuhungu, barasa nkaho bafite ikiganiro bakurikiye, cyane ko ataribo gusa ahubwo inyuma yabo, hari abandi nabo bicaye nkabo.

Hari umugabo uhagaze mu bandi bisa nkaho yahawe ijambo kugirango nawe agire icyo avuga mu nama yabaye, kugirango nawe atange ibitekerezo bye barebe niba hari icyo byafasha abandi.

Habaye inama biragaragara rwose abantu benshi barahagaze, mu gihe hari n'abandi bakeya bicaye, abicaye bisa nkaho aribo bakoresheje iyo nama kugira ngo bagire ibyo babwira abaturage.

Turabona umumama mwiza cyane rwose wambaye n'amarinete arasa nkaho ari gutanga amahugurwa ku kintu runaka ariko biragaragara ko hari abo ari kubwira.

Turabona abantu bari imbere bari kuririmba. Bisa nkaho bari kuririmba indirimbo za gakondo. Ndetse n'ibirori byabaye birumvikana ko ari ibijyanye na gakondo.

Ahantu hari ipoto risa nkaho rizengurutswe n'insinga nyinshi cyane, bigaragara ko byose ari ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi cyane ko munsi yaho hari amazu, bigaragara y'uko bagiye bashyiramo umuriro.

Turabona abagabo babiri basa naho ari abafundi cyangwa se abakora ibijyanye n'imiriro, bari gushyira umuriro mu nzu ariko nayo itariyuzura neza.

Turabona icyo twakita nka mubazi y'umuriro igenda igaragaza ingano y'umuriro usigayemo ndetse n'ushaka kugura umuriro akaza gukanda aha ku mibare yayo kugira ngo awushyiremo.

Amatara yo ku muhanda azwi nka Feruje, aho agenda yaka akaranga igihe abagenzi bagomba kwambukira ndetse n'igihe imodoka zigomba kugendera.

Ahantu hasa nk'aho hahanamye ariko munsi yaho hari amazu asa nkaho yubatse kimwe, ndetse hari n'abantu benshi ariko ubona ko buri wese ari mubye, ntawuhuje umugambi n'undi.

Umugore uhagaze imbere ya kirinike, afite agakapu, arasa nkaho avuye kuri iyo kirinike kugira ibyo arebayo, yaba ari imiti cyangwa se avuye no kwivuza mu bundi buryo bugiye butandukanye.

Ahantu hagaragara yuko ko ari inyubako za Leta, zikorerwamo ibikorwa bya Leta rwose ziritaruye, ziri ahanwa munsi y'agashyamba, bigaragara ko rero ari umwe mu mitungo ya Leta.

Turabona inyubako ya leta ikaba yanditseho Mirama hirizi bisa nk'aho ikorerwamo ibikorwa bya leta kandi bifitiye inyungu rubanda nyamwinshi.

Hari inyubako ya leta yubatse ahantu hitwa Mukimbogo bisa nkaho ikorerwamo ibikorwa bifite aho bihuriye na leta.

Abantu bari mu ishyamba ni abantu benshi bagiye batandukanye ubona ko bameze nk'aho bari kugira ibyo bitaho, kandi bakaba bari mu ishyirahamwe cyane cyane ko abenshi muri bo bigaragara yuko bambaye n'imyenda isa.

Haragaragara abantu bagiye batandukanye bari muri pasuparume, barasa nk'aho hari ibyo bari gukoramo, inyuma yabo hubakishijwe amahema arimo imbere mu gipangu kirimo n'amazu meza cyane.

Icyapa cyanditseho sitopu kimwe mu byapa biranga abatwara ibinyabiziga ko bageze ahantu bagomba kugabanya umuvuduko, ndetse bashobora kuba bahagarara isaha n'isaha.

Umuntu asa nkaho ari ahantu hatwarirwa abagenzi cyangwa se twahita muri gare kubera yuko ari ho haparikwa imodoka nyishi hari kandi n'amarembo yinjira ndetse n'asohoka, ikirenzeho kandi harimo n'imodoka.

Hagaragara ibyuma bisa nk'aho ari ibyifashishwa mu rwego rwo kurinda umutekano, kugira ngo ibikorwa bigiye bitandukanye, bikomeze kuba biri ahantu hazima ndetse bidahungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose.

Abakinnyi bari mu kibuga bigaragara ko ari amakipe abiri ahanganye ndetse bose bafite intego yo gutsinda, bamwe bambaye imyenda yiganjemo ubururu mu mugihe abandi bambaye iyiganjemo umuhondo.

Umukinnyi wambaye imyenda isa nk'iya Reyosiporo ahagaze mu kibuga hafi y'izamu, hakurya y'icyo kibuga harasa nk'aho hari ahantu ho ku mujyi dore ko hubatswe amazu agezweho.

Abakinnyi ndetse n'abatoza babo bahagaze mu kibuga, bamwe bahagaze biremye mugihe abandi babunamye imbere mu rwego rwo kugirango ngo bose babashe kuza mu ifoto iri gufatwa.

Abasore bari mu rungano bambaye imyenda yendamerara nk'iya reyo siporo, biragaragara ko n'ubundi nabo bari muri siporo, aho barimo baragenda biruka agake gake, mu rwego rwo gukora igihaha.

Turabona abantu benshi bahagaze ahantu hari akabuga keza yewe kitaruye mu masaha ya nijoro kuko turabona amatara, abantu barasa nkaho bari muri siporo uko bigaragara cyane cyane ko harimo benshi bambaye imyenda ya siporo.

Abakinnyi bari mu myitozo mu kibuga cyiza cyane rwose cy'ubwatsi, birasa nkaho bafite umupira, barimo baragenda bitoza gake gake, kugirango ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umusore utwaye igare bisa nk'aho ari mu muhanda wamabuye ntabwo harimo kaburimbo, inyuma ye hari uwundi ugenda n'amaguru ndetse inyuma y'uwugenda n'amaguru hari imodoka itagaragara neza ariko biri mu cyerekezo kimwe.

Imihanda isa nkaho ari iyo mu byaro gusa iranyuyuranamo, hakurya yaho hari imodoka y'umweru irimo kumanuka isa naho nta zindi modoka zirimo.

Hagaragara igicucucu cy'umuntu, kiri mumuhanda, bisa nkaho ari umuntu wifotoreje ahantu ari nijoro, ariko ntahagaragare, hakagaragara igicucucu ke.

Umuhanda wo mu cyaro, utarimo kaburimbo ndetse nta n'ikintu na kimwe kindi kirimo ariko ikigaragara cyo, ni uko atari uwo uri ahantu mu mujyi.

murabona imodoka iri mu muhanda yonyine; ni umuhanda usa nkaho ari uw'icyaro, kubera yuko imihanda yo mumujyi ntabwo habonamo imodoka iri kugenda yonyine, ahubwo ziba ziri mu kajagari.